Abagabo ndetse n'abagore bicaye mu nzu bafite za mudasobwa imbere yabo bari kuzandikamo batumbereye imbere ahari umuntu uri kubigisha ikintu runaka.

Ihema ryubatse hanze ritwikirijwe shitingi y'umweru imbere yaryo ahagaze abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo bafashe ibiziriko biziritse ihene.

Icyumba cy'inama kirimo abagabo baturuka mu nzego zitandukanye ndetse harimo n'abagore, imbere yabo hari ameza ariho utwapa tugaragaza ibigo baturukaho.

Abagabo babiri ndetse n'umugore bicaye ku ntebe zizengurutse ameza ateretseho uducupa turimo amazi yo kunywa tubonerana dufite umufuniko w'ubururu.

Inzu yicawemo n'abantu irimo ameza ashasheho ibitambaro by'umweru hariho mudasobwa telefoni ngendanwa agakombe k'icyayi agasahani gato ndetse n'impapuro, umugore ari kuvugira mu ndangururamajwi.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe zikikije ameza hateretseho amazi yo kunywa, harimo uducupa tubonerana apfundikije umupfundikizo usa n'ubururu bweruye, bari kuganira n'umugore usutse imisatsi, imbere ye hateretse mudasobwa.

Umugabo wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, Poroferi Shyaka Anastase, ari muri gahunda yo kunoza imitangire ya serivisi, ubu ni ubukangurambaga bushishikariza serivisi inoze.

Mu nzu hicayemo abagabo bicaye ku ntebe z'umukara zegamirwa zifite imisego, harimo ameza abari imbere ateye ku buryo barebana n'abari mu cyerekezo cy'imbere yabo hateretseho amazi yo kunywa.

Umugabo wambaye umupira usa n'icunga rihishije, ufite amaboko magufi, ahagaze imbere y'abantu, afite indangururamajwi arikuvuga imbwirwaruhame.

Mu nzu hicayemo abagore batatu hari ameza ashasheho igitambaro cy'umweru, hejuru yaho hariho utwapa duto dusa n'umweru twandikishijwemo amagambo y'umukara ariho amazina y'aba bagore.

Abantu bicaye hanze iruhande rwabo hari ihema ry'umweru ryicawemo abandi bantu .Imbere yabo hahagaze umugabo ufite urupapuro n'indangururamajwi ari gusoma.

Mu nzu imbere hari ameza ateye ndetse hari n'intebe ziyakikije ameza ateye ku buryo abantu bicara barebana hicaye abagabo ndetse n'abagore ku ntebe bafite za mudasobwa imbere yabo ziri ku meza ndetse n'impapuro birambitse ku meza.

Abagore batatu bicaye mu nzu, imbere yabo hari ameza atwikirijwe n'igitambaro, hateretseho amacupa y'amazi, ikaramu, urupapuro ndetse na telefoni.

Umugabo wambaye amadarubindi y'umukara, afashe indangururamajwi ari kuyivugiramo atanga ubutumwa ku baturage bicaye hanze, inyuma ye hari ihema ry'umweru ryicawemo n'abapolisi ndetse n'abasirikare.

Abarimo abagabo ndetse n'abagore bicaye mu nzu ahari ameza ndetse n'intebe biteye mu buryo bw'amasibo, aya meza hariho za mudasobwa amazi yo kunywa amakaramu ndetse n'impapuro zo kwandikaho.

Abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, biganjemo urubyiruko rw'abasore n'inkumi bambaye imipira y'amaboko magufi isa n'umuhondo bahagurutse, imbere yabo hicaye abayobozi bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'umugore w'umupolisi.

Mu nzu iteraniyemo abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe zishasheho ibitambaro by'umweru, ndetse imbere yabo hari n'ameza nayo ateye ashesheho ibitambaro by'umweru, imbere yabo hahagaze umugabo uri kuvugira mu ndangururamajwi atanga ubutumwa.

Umugore usutse imisatsi ijya inyuma hagaze hanze imbere y'imbaga y'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye hanze ndetse hari n'abantu bahagaze hari kubagezaho ubutumwa.

Icyumba cy'inama cyicawemo n'abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari za mudasobwa ziteretse ku meza, ndetse hari n'amazi nayo ateretse ku meza ari mu macupa abonerana.

Umugabo uhagaze hanze afashe indangururamajwi mu ntoki ze, ari kuyivugiramo atanga imbwirwaruhame afashe na terefoni ngendanwa mu ntoki, ndetse yambaye n'amadarubindi y'umukara.

Mu nzu hicayemo abagabo ndetse n'abagore bari gukoresha za mudasobwa, ku meza ari imbere yabo hateretse amazi yo kunywa ndetse hari n'ahantu ho kwandika ni ukuvuga impapuro ndetse n'amakaramu yo kuzandikishaho.

Abantu bicaye mu nzu ku ntebe z'umukara zegamirwa, hari n'ameza ariho za telefoni ngendanwa, ateye ku buryo barebana n'ababari imbere, hari ibiganiro biri kujya mbere.

Abagore babiri bicaye mu nzu ku ntebe z'umukara zegamirwa imbere yabo hari ameza bateretseho mudasobwa amazi yo kunywa, umugozi ucomeka mudasobwa ku muriro ndetse n'utwapa tugaragaza imyirondoro yabo.

Abantu bicaye muri sitade bari kureba umukino imbere yabo hari abayobozi bicaye ku ntebe ndetse hari n'ameza ateretseho amazi yo kunywa iyi sitade hari amarangi y'icyatsi ndetse n'umuhondo asize ku isima yo hasi.

Mu nzu iri kuberamo inama hicayemo abagabo ndetse n'umugore, hari umugabo uhagaze uri gukoresha mudasobwa yerekana ibintu kuri tereviziyo imanitse mu cyumba yahuje na mudasobwa.

Abagabo n'abagore barimo abirabura ndetse n'abazungu bahagaze mu nzu iri kwakamo amatara hejuru. Inyuma yabo hari ibyapa byanditseho amagambo, barimo barifotoza.

Icyumba cyicawemo n'abagabo ndetse n'abagore, kirimo ameza ashashaho ibitambaro by'umweru hateretseho n'amazi yo kunywa ari mu icupa ribonerana, bose baricaye batumbereye imbere ahari ibintu bari kureba.

Ahantu hakoraniye abarimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye amakarita mu ijosi, hariho imyirondoro yabo, ndetse n'ibigo bakorera. Bicaye neza bitonze bari kureba imbere.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama kiri kwakamo amatara y'umweru, hari ameza ateretseho amazi yo kunywa. Hari na televiziyo kandi iri kwaka, irimo igaragaza ibintu bose bari gusoma.

Mu nzu bifite icyumba cy'inama cyicawemo n'abagabo ndetse n'abagore, hari abantu batanu bicaye imbere y'imbaga bari kubaganiriza ndetse banabaha ubutumwa mu nama ndetse n'ihuriro ry'ukuntu Afurika yakwihaza mu mirire.

Abarimo abagabo ndetse n'abagore bicaye mu nzu ku meza abari imbere hariho za mudasobwa, udukombe tw'icyayi, ibirahuri birimo ibinyobwa bitandukanye, impapuro ndetse n'amatelefoni, baritonze bari kureba imbere ahari umuntu uri kubagezaho ubutumwa.

Abagabo ndetse n'abagore, bicaye mu nzu iri kwakamo amatara y'umuhondo hejuru, imbere yabo hari abayobozi bicaye, bari kubagezaho ubutumwa runaka.

Mu nzu, ahari icyumba gikorerwamo inama n'amahugurwa, hicayemo abagabo n'abagore, imbere yabo hari ameza ashasheho igitambaro cy'umweru, hateretseho amazi yo kunywa, mudasobwa, ibitabo, impapuro, ndetse n'amakaramu.

Abantu bambaye imipira y'amaboko magufi isa n'ubururu bari gufata ifoto y'urwibutso bafashe impapuro z'ishimwe zerekana ko bitabiriye inama.

Mu nzu harimo abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe zikikije ameza asa n'umukara, ateretseho amacupa abonerana arimo amazi yo kunywa, abagabo n'abagore bambaye amakarita mu ijosi, ariho imyirondoro yabo.

Mu nzu hateraniyemo abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe zegamirwa zisa n'umukara hari n'ameza abari imbere ateretseho imitobe ndetse n'amazi yo kunywa.

Mu nzu harimo abagabo bicaye ku ntebe zikikije ameza ashasheho igitambaro, hejuru yayo hariho uducupa turimo amazi turabonerana kandi dupfundikijwe n'umupfundikizo w'ubururu.

Ihuriro ry'abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe zishasheho ibitambaro by'umweru, ndetse n'ameza abari imbere nayo ashasheho ibitambaro by'umweru, hariho n'amazi yo kunywa bose bari kureba imbere.

Mu nzu hicayemo abagabo ndetse n'abagore, barimo abirabura ndetse n'abazungu, imbere yabo hari ameza, hariho igikapu gitwarwamo mudasobwa gisa n'umukara, hari mudasobwa hari n'amazi yo kunywa.

Inzu itatsemo ibitambaro by'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hahagazemo umugabo uri hagati y'ahantu hateye ameza ndetse n'intebe ziyakikije zicaweho n'abantu barimo abagore ndetse n'abagabo, uyu mugabo ari kubaha ubutumwa.

Umugabo utanga serivisi z'irembo ari gukoresha mudasobwa iri mu biro bye yafunguye ku rubuga rw'irembo irembo ni urubuga nkoranabuhanga rusabirwaho serivisi za leta.

Abagabo batatu bahagaze hanze bari kureba muri terefone ngendanwa bose bambaye udupfukamunwa tw'ubururu bambaye n'udukoresho dufasha gutwara amajwi tuyakuye muri terefone bakayumva bonyine aho umuntu begeranye atakumva ibyo bari kumva.

Urubuga nkoranabuhanga rw'ikigo gishinzwe gushyiraho kikanagenzura iyubahirizwa ry'amategeko agenga ibikorwaremezo birimo n'iby'ikoranabuhanga ingendo ndetse n'ibindi, hari uburyo ushobora kwinjira muri urwo rubuga aho ushyiramo nimero ya telefoni ubundi ugashyiramo n'ijambo banga.

Itariki ya nyuma yo kumenyekanisha ndetse no kwishyura imisoro, ni mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi na kabiri, bibiri na makumyabiri na kane. Menyekanisha uyu munsi, unishyure mbere y'uko itariki ntarengwa igera.

Umunsi mpuzamahanga w'umurimo wizihizwa ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa Gatanu. Umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe, wari ufite intego ndetse n'insanganyamatsiko igira iti :"Guteza imbere umurimo, ni uguteza imbere ubukungu ndetse n'impinduka mu iterambere."

Urubuga nkoranabuhanga rurimo ikirango cya repubulika y'u Rwanda, rufite umwanya wo kuzuzamo amazina y'abakoresha uru rubuga ndetse n'umwanya wo gushyiramo ijambo banga ubundi umuntu akinjira muri urwo rubuga.

Inzu ifite urukuta rwometseho akapa kagaragaza ko aho hantu umuntu ashobora kuhakoreshereza murandasi y'ubuntu. Murandasi ifasha umuntu gusura ibinyamakuru ndetse n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye.

Umunara wubakishije ibyuma by'umutuku, ndetse n'umweru, hejuru hakaba hamanitseho ibyuma byifashishwa mu gusakaza ndetse no kwakira amarezo ya telefoni ngendanwa.

Umunsi mpuzamahanga w'umurimo wijihijwe ku itariki ya mbere gicurasi bibiri na makumyabiri na kabiri, wari ufite insanganyamatsiko igira iti ''ahazaza h'umurimo intego dusangiye''.

Menyekanisha umusoro uyu munsi wishyure mbere y'uko itariki ntarengwa igera, menyekanisha bitatu bya kane by'umusoro ku nyungu, uwishyure uyu munsi mbere y'itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri bibiri na makumyabiri na rimwe, ntutekereze umunsi wa nyuma.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ifite imiryango ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, hari n'ahantu bacururiza imyenda, ituriye umuhanda uri kugendwamo n'imodoka, ndetse imvura iri kugwa.

Umunara wubakishijwe ibyuma bishinze ku butaka, umanitseho ibikoresho by'itumanaho, bikoreshwa mu ikoranabuhanga rijyanye no kuvugana ndetse no kohererezanya ubutumwa, hifashishijwe telefoni ngendanwa.

Abana babiri bicaye mu cyumba kirimo mudasobwa zisa n'icyatsi ndetse n'umweru. Bari kuzikoresha, bambaye n'impuzankano igizwe n'amashati y'amaboko magufi asa n'ubururu bweruye.

Harabura iminsi ibiri kugira ngo itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro w'ipatante wa bibiri na makumyabiri na kane igere, menyekanisha unishyure ipatanti uyu munsi wirinde amande n'ibihano by'ubukererwe.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe gushyiraho amategeko agenga imikoresherezwe y'ibikorwa remezo birimo n'ikoranabuhanga mu Rwanda, rura irakubwira ko mu gisata cya serivisi z'ikoranabuhanga ushobora kwiyandikisha nk'umuntu utanga serivise z'amafoto ndetse n'amavidewo serivise zo gutanga murandasi.

Urubuga rw'Irembo aho umuntu ashobora kujya gusaba serivise za leta zitandukanye rutangirwamo na serivise zo kuvugurura ndetse no kongeresha agaciro uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga.

Mu nzu itangirwamo serivisi zirimo gusohora ndetse no kwandika inyandiko harimo intebe, imashini isohora inyandiko isa n'umukara ikaba ishyirwamo impapuro igasohora inyandiko hicayemo n'abagabo babiri.

Urubuga rw'Irembo, ni rubuga nkoranabuhanga rwashyiriweho mu gusaba serivisi za leta abantu batarinze kujya ku biro bikoreramo abayobozi, hari serivisi wakwisabira ku rubuga rw'Irembo harimo na serivisi zo kwiyandikisha gukora ibizamini by'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga.

Umunara umanitseho ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu itumanaho ry'amatelefoni, ngendanwa ibikoresho biri mu mabara y'umweru, bifite ishusho imeze nk'ingoma, ndetse n'itara ryo mu nzu rirerire.

Umunara wubakishijwe ibyuma bishinze ku butaka bifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, uyu munara ushyirwaho ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu itumanaho ry'amatelefoni ngendanwa.

Uburyo bwakuyobora uko wamenyekanisha imisoro ku nyungu y'umwaka wa bibiri na makumyabiri nagatatu ukoresheje telefoni ngendanwa kanda akanyenyeri umunani zeruzeru urwego ugakurikiza amabwiriza.

Umugabo uhagaze hanze ari gukoresha telefone ngendanwa, impande ye hari akazu kariho ibirango bya Tekno, Tekno ikora amatelefoni agezweho.

Mu ishuri harimo abanyeshuri bicaye ku ntebe, imbere yabo hari utumeza duteretseho ibikoresho bya mudasobwa ndetse n'igikapu, hari ikibaho ndetse imbere yabo hari n'umwarimu.

Umunara wubakishije ibyuma biri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, uyu munara ni muremure umanikwaho ibyuma by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu itumanaho ry'amaterefoni ngendanwa.

Urubuga rw'irembo rusabirwaho serivisi za leta, umuntu atarinze kujya ku biro bikorerwamo n'umukozi wa leta. Ubu kuri ubu umuntu yabyikorera. Yakwiyandikisha mu kizamini cy'uruhushya rw'icyiciro cyisumbuye cyo gutwara ibinyabiziga.

Imbere y'inzu ifite inzugi ebyiri zifunguye zisa n'icyatsi, ikorerwamo ndetse inatangirwamo serivisi zo gusohora inyandiko. Gufotora ndetse na serivisi z'irembo, hari imbuga ishashemo amabuye.

Urubuga nkoranabuhanga, aho umuntu ajya gusaba serivisi za leta yifashishije ibikoresho bigezweho bikoresha murandasi, ubu noneho hongeweho serivisi nshya iri mu cyiciro cy'umuryango. Izina rya serivisi ni icyemezo cy'utishoboye wacitse ku icumu rya Jenoside.

Ntibyemewe kwishyura urugendo udakoresheje ikarita yabugenewe, uburyo rukumbi bwemewe mu kwishyura urugendo rw'imodoka mu mujyi wa Kigali ni ugukoresha ikarita birabujijwe kwishyura mu ntoki.

Icyumba cyicawemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano z'amashati y'umweru y'amaboko magufi ndetse n'amajipo n'amapantaro bisa n'umukara, bicaye bari gukoresha mudasobwa mu cyumba cy'ubushakashatsi.

Ipoto rishinze iruhande rw'ahantu hubatse inyubako, rinyurwaho n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi. Ni insinga nyinshi zitwara umuriro ziwujyana mu ngo zituriye aho ngaho.

Umunara wubakishijwe ibyuma biteye impande y'umuhanda wa kaburimbo, uyu munara unyurwaho n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, impande yawo hari ipoto ririho agasanduku gateranyirizwamo insinga.

Umukozi uri mubi bikorwa byo kubaka ndetse no gusana umuyoboro w'amashanyarazi, yuriye ku ipoto yambaye inkweto zifite amenyo, ndetse n'ingofero y'ubwirinzi. ipoto iririho udusanduku ndetse n'insinga zitwara umuriro.

Imodoka ya bisi itwaye abagenzi bicayemo, iyi modoka n'iya kompanyi ya ritiko iri kugenda m'umuhanda wa kaburimbo, impande yawo hari igare rya matabaro riparitse ndetse hari n'abanyonzi babiri.

Umunara wubakishije ibyuma bisobekeranye, uranyurwaho n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, impande yawo hari ahantu hateye igiti ndetse munsi yacyo hari n'inyubako.

Amapoto abiri ashinze hakaba hariho icyuma gitanga umuriro w'amashanyarazi ukwirakwizwa mu duce hirya yaho hari umunara unyurwaho n'insinga z'amashanyarazi.

Umunara wubakishije ibyuma bishinze ku butaka, unyurwaho n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi. Impande yaho hari uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye. Inyuma yarwo hari icyapa cy'icyatsi cyerekana ko uwo muhanda ukomeje wagera ku mupaka wa Gatuna.

Amapoto abiri ashinze hanze anyurwaho n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi hanze hari n'inyubako ishakaje amabati y'umutuku ifite inkuta zisize amarangi y'umuhondo.

Ipoto rinyurwaho n'insinga z'amashanyarazi zisa n'umukara, rimanitseho kandi itara ryo mu muhanda ryaka igihe izuba ryarenze rikabonesha mu muhanda ibinyabiziga ndetse n'abagendeshamo n'amaguru bikagenda mu muhanda umurikiwe.

Umunara wubakishije ibyuma, unyurwaho n'insinga z'amashanyarazi, zijya mu duce dutandukanye. Inyuma yaho hari agasozi gateyeho ibiti. Insinga z'amashanyarazi zitwara umuriro wifashishwa mu nganda, mu kwatsa amamashini.

Umuhanda wa kaburimbo ufite igice ku ruhande cyagenewe kugendwamo n'abanyamaguru, gishashemo amabuye, iruhande rwacyo hari aho bamena imyanda, ni agakoresho gakoze mu cyuma ndetse n'ibiti. Imbere yaho hari ipoto rinini ririho icyuma cya kamera gifata amashusho y'ibinyabiziga bica mu muhanda.

Umunara wubakishijwe ibyuma, unyurwaho n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, uteye ahantu hakikijwe n'ibiti, ndetse hanatuwe n'abantu mu mazu ari hirya.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hari akayira k'abanyamaguru ndetse hashinze n'ipoto rinyurwaho n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, hariho n'itara rimurika mu muhanda.

Ipoto rishinze impande y'umuhanda, rinyurwaho n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, impande yaho hari inzu ifitemo ikigega cy'umukara kibika amazi.

Umuhanda wa kaburimbo, ufite umuyoboro utwara amazi ku ruhande, hakaba hari n'ipoto rishinze impande y'umuyoboro, ririho insinga z'amashanyarazi.

Ipoto ririho itara rimurika mu muhanda, rikaba rinanyuraho urusinga rutwara umuriro w'amashanyarazi. Iruhande rwaho hari ahantu hashinze idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda riri mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Iruhande rw'inzu isize amarangi yubururu hari icyuma cy'ipoto kinyurwaho n'isinga z'umuriro w'amashanyarazi, hari n'icyapa gishinze cyerekana umuhanda wa kaga gatandatu gatanu karindwi.

Umunara wubakishijwe ibyuma bisobekeranye, ushinze hanze unyurwaho n'insinga z'umuriro w'amashanyarazi. Umuriro w'amashanyarazi ukoreshwa mu ngo, cyangwa mu nganda, ukora imirimo irimo gucana amatara, kwatsa imashini ndetse no gushyushya mu nzu.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibikoresho byifashisha urumuri ndetse n'utumenyetso tw'utwambi turi mu mabara, mu kuyobora ndetse no kureka imodoka zigatambuka cyangwa abagenzi.

Ipoto rishinze hanze, ririho insinga z'umuriro w'amashanyarazi ndetse hariho n'itara rimurika mu muhanda wa kaburimbo igihe izuba ryarenze, imbere y'aho hari agahanda k'abanyamaguru, kari kugendwamo n'abantu babiri.

Umugozi w'umukara ukoreshwa mu gucomeka mudasobwa, wometseho akapa gasa n'umuhondo, kanditsemo amagambo y'umukara atanga amabwiriza ndetse n'imbuzi, ku muntu ukoresha uyu mugozi.

Umunara w'ibyuma bishinze ku butaka bisobekeranye uranyurwaho n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, iruhande rw'aho biteye, hari insina zifite ibirere ndetse hari n'agace k'umusozi gateyeho ibiti, ibiti biyungurura umwuka bikurura imvura kandi biracanwa.

Kwa muganga ahari icyumba kirimo ibyuma bisuzuma ndetse bigapima indwara, hahagazemo umugabo w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ari gukoresha kimwe muri ibyo byuma.

Inzu iri kwakamo amatara y'umweru, hejuru hari ibiro byicawemo n'abagabo ndetse iruhande rwabo hahagaze umugore wambaye ikoti ry'umweru, harimo intebe zo kwicaraho kandi hashashemo n'amakaro.

Ibitaro bifite imbuga ishashemo isima y'igiheri, iparitsemo imodoka ebyiri z'imbangukiragutabara zisa n'umweru, zifite n'ibikoresho by'urumuri rw'intabaza. Impande yaho hari n'indi modoka y'umukara iparitse.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari urubaraza rutwikiriye rurimo intebe zicaweho n'abarwayi kwa muganga ndetse hari n'abandi batonze umurongo, impande y'idirishya ry'ibiro bikorerwamo n'umukozi wakira abantu.

Inyubako y'ibitaro, ifite imbuga irimo ubusitani, ndetse hari n'idarapo ry'u Rwanda, rishinze ku cyuma gifite amabara y'icyatsi, umuhondo, ndetse n'ubururu.

Kaburimbo isa n'umukara yaguyemo imvura, hari amazi ari gushoka, impande y'aho ahantu hari ibyatsi bikase neza harimo ibyuma bizamuye, hejuru hariho ibigega bifata ndetse binabikwamo amazi.

Ikirongozi gishashemo isima y'igiheri hasi, kikaba gitwikirijwe amabati ndetse gifite n'inkingi z'ibyuma. Gihuza inyubako imwe ndetse n'indi. Umuntu akaba yagenda atishwe n'izuba cyangwa anyagiwe n'imvura.

Kwa muganga hari urubaraza rutwikiriye hateyemo intebe, aho abantu baje kwivuza bicara. Hicayemo abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari amadirishya y'ibiro bikorerwamo n'abakozi bo kwa muganga.

Icyumba kirimo intebe, ameza ndetse na za mudasobwa ziyateretse hejuru hicawemo n'abagore bari gukoresha mudasobwa, imbere yabo hari amadirishya akoreshejwe ibyuma ndetse n'ibirahure.

Inzu y'ibitaro, hanze ku rubaraza, imbere y'urugi hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru. Ibi bitaro bifite ubusitani burimo ibyatsi biconze neza, ndetse harimo n'igiti.

Umugore wicaye mu biro birimo mudasobwa iteretse ku meza ndetse harimo n'icyuma gikoreshwa mu gusohora inyandiko. hari n'imigozi y'umukara icometse kuri mudasobwa.

Ku bitaro hari inyubako, imbere yazo hari ubusitani burimo ibyatsi biconze neza ndetse n'ibiti by'ubwiza, harimo n'icyapa cy'ubururu cyandikishijwemo amagambo y'umweru.

Umugore wateretse umusatsi wambaye amarinete arirabura yambaye ikanzu y'umutuku ifite igice gisa n'umweru mu gatuza, akora mu mirimo ifite aho ihuriye n'amategeko ndetse n'ubucamanza.

Abagabo n'abagore, bambaye amakanzu y'umutuku maremare, afite igice gisa n'umukara ndetse n'umweru mu gatuza, bakora mu mirimo y'ubucamanza, ubushinjacyaha ndetse n'amategeko.

Umugore wambaye ikanzu y'umutuku ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara mu gatuza, yazamuye ukuboko ari kuvugira mu ndangururamajwi, akora imirimo ijyanye n'ubucamanza ndetse n'amategeko.

Mu nzu ikorerwamo n'urukiko hahagazemo abagabo babiri b'abavoka bambaye amakanzu y'umukara hagati yabo hari umugabo wambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'ikoti akaba ari uburanishwa.

Umugabo wirabura yambaye amadarubindi, ikanzu yumutuku, ifite igice gisa n'umweru ndetse n'umukara mu gatuza uyu mugabo akora mu mirimo y'amategeko ndetse n'ubucamanza.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku ifite ibitambaro by'umukara ndetse n'umweru mu gatuza, arirabura afite ubwanwa uyu mugabo akora imirimo irimo amategeko ndetse n'ubucamanza.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku ifite ibice bisa n'umukara ndetse n'umweru mu gatuza, yambaye amadarubindi y'umukara, uyu mugabo akora mu mirimo ijyanye n'ubucamanza ndetse n'amategeko.

Abarimo imfungwa ndetse n'abagororwa batuye umurongo bambaye n'udupfukamunwa bari kunyura ku marembo, imbere yaho hari umuporisi ndetse n'umucungagereza bari kubapima umuriro banabakarabya intoki bifashishije umuti.

Amarembo ariho amagambo yerekana ko aho hantu hari igororero rya nyamagabe, hari n'icyapa cyanditseho kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu twibuka twiyubaka.

Umugabo wirabura wambaye ikanzu y'umutuku ifite igice gisa n'umukara ndetse n'umweru mu gatuza, akora imirimo ijyanye n'ubucamanza ndetse n'amategeko.

Umugore uteretse imisatsi wambaye ikanzu y'umutuku ifite igice gisa n'umukara ndetse n'umweru mu gatuza, akora imirimo ijyanye n'ubucamanza ndetse n'amategeko.

Mu nzu iburanishirizwamo abantu, hicayemo abavoka babiri bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, amakanzu y'umukara afite igice gisa n'umweru mu gatuza, hagati yabo hicayemo umugabo w'ingororwa wambaye agapfukamunwa ndetse n'imyambaro isa n'iroza.

Abagabo babiri b'abavoka bambaye amakanzu y'umukara afite igice gisa n'umweru mu gatuza, bari kuvugana n'ushinjwa ibyaha w'imfungwa wambaye imyenda isa n'iroza.

Mu nzu irimo ibiro byicawemo n'umuntu wambaye ikanzu y'umutuku, imbere ye hari indangururamajwi, uyu muntu akora imirimo y'amategeko ndetse n'ubucamanza. Imbere ye hari undi mugabo wambaye ikanzu y'umutuku, na we ukora mu mategeko, afashe ku idarapo, azamuye ikiganza, ari kurahira.

Umugabo wirabura wambaye amadarubindi, yambaye ikanzu y'umutuku ifite igice gisa numukara ndetse n'umweru mu gatuza. Akora mu mirimo y'ubushinjacyaha ndetse n'amategeko.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba kirimo intebe z'urubaho ziteretseho imitobe ndetse n'amazi bafite inyandiko mu ntoki bamwe bari gusoma abandi bari kwandika ku mpapuro n'amakara.

Ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, birasa n'umutuku bimanitse ku gikuta gisize irangi ry'umweru, ni mu nzu ishashemo amakaro.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, kiri mu icupa risize irangi ry'umutuku, gifite umupira w'umukara, ndetse n'aho bakanda kugira ngo ibinyabutabire bive mu icupa, bisohoke mu mupira, bibashe kuzimya inkongi.

Amacupa asize irangi ry'umutuku ateretse hasi, afite umupira ndetse n'akantu bakandaho, aya macupa aba arimo ibinyabutabire byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Icupa risa n'umutuku rikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, rifite umupira w'umukara ndetse n'ahantu bakanda, kugira ibinyabutabire bisohoke mu icupa igihe bazimya inkongi y'umuriro, rimanitse ku gikuta.

Imodoka ndetse n'amapikipiki agendwaho na polisi birikugendera mu muhanda wa kaburimbo, impande yayo hari agace gateyemo ibiti byinshi ibiti byongera umwuka ndetse bikurura n'imvura.

Umupolisi ishami ry'umutekano wo mu muhanda ahagaze mu muhanda wa kaburimbo, impande ye harahita ipikipiki akoresheje ikimenyetso cy'ukuboko ahagarika imodoka.

Icupa risa n'umutuku ririmo ibinyabutabire bizimya inkongi y'umuriro; rifite umupira unyurwamo n'ibinyabutabire ndetse n'akantu bakandaho; iri cupa rimanitse ku gikuta gisize irangi.

Imbuga iparitsemo imodoka, zirimo imodoka ya polisi, zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, imbuga ishashemo amabuye hasi, inyuma yayo hari inzu yubatse mu buryo bw'amagorofa.

Igikoresho gifite umupira unyurwamo n'amazi igihe umuntu ari kuzimya inkongi y'umuriro. Ibi bikoresho biratukura, ni umupira ndetse n'icyuma uzingiyeho byose bifashe ku rukuta.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, kiri m'icupa risa n'umutuku ryanditseho ibintu kikaba gifite n'ahantu bakanda igihe umuntu azimya inkongi y'umuriro kiba kirimo ibinyabutabire byifashishwa mu kuzimya inkongi.

Icupa riteretse hasi, rikaba risa n'umutuku, ryanditseho n'amagambo, iri cupa rishyirwamo ibinyabutabire byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro. Iruhande rwaryo hari igikuta gisize irangi ry'umuhondo.

Impande y'umuhanda wa kaburimbo hahagaze umupolisi uri kugenzura uburyo amategeko y'umuhanda yubahirizwa n'ibinyabiziga bigenda mu muhanda, imbere ye hari ahantu hari inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi.

Ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, bimanitse ku gikuta. Ibi bikoresho bisohora ibinyabutabire cyangwa amazi yifashishwa mu kuzimya inkongi. Hasi hashashe amakaro, bimanitse ku gikuta gisize irangi ry'umweru.

Imodoka ya polisi ifite umwanya w'inyuma urimo imisego wicarwamo n'abapolisi, uyu mwanya ntago utwikiriye, impande y'iyi modoka iparitse mu mbuga ishushanyishijwe n'imirongo igaragaza akanya gato gaparikwamo n'imodoka haratambuka umugore w'umupolisi.

Imodoka igendwamo n'inzego zishinzwe umutekano wo mu muhanda za polisi, yanditseho ijambo polisi yo mu muhanda, iyi modoka irasa n'umweru, ifite n'amabara y'umukara.

Igikoresho gifite icyuma kizengurutsweho n'umupira w'umutuku usohokamo amazi igihe umuntu ari kuzimya inkongi y'umuriro kimanitse ku gikuta iki gikoresho kigomba kuba kiri mu nzu by'umwihariko iz'amagorofa cyangwa izindi zakwibasirwa n'inkongi y'umuriro.

Imodoka ya polisi, ifite umwanya w'inyuma wicarwamo n'abapolisi udatwikiriye, iparitse mu mbuga ishashemo amatafari, iruhande rwaho hari akandi gace gaparikwamo n'imodoka, gashushanyishijwe n'imirongo y'umweru.

Icupa risa n'umutuku, riba ririmo ibinyabutabire byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, rifite n'umupira ndetse n'akantu bakandaho, igihe ibinyabutabire bisohoka mu icupa.

Icupa risa n'umutuku ryanditseho amagambo riteretse hasi, riba ririmo ibinyabutabire byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, rifite umupira usa n'ubururu ndetse n'akantu bakandaho gasa n'umukara, igihe ibinyabutabire bashaka ko bisohoka ngo babizimishe inkongi.

Imodoka itwara imfungwa ifite igice cy'inyuma kimeze nk'inzu isakaye, gifunze gisa n'umukara cyicarwamo n'imfungwa, igihe bazikura ahantu hamwe bazijyana ahandi.

Imodoka yakozwe n'uruganda rwa Toyota, ifite umwanya inyuma wo guhekamo ibintu, iparitse mu mbuga ishashemo amatafari. Imbere yayo hari ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'ururabo rw'umuhondo.

Abapolisi batoye imirongo itambitse, bafite n'imbunda, bambaye n'impuzankano ya gipolisi, bahagaze hanze, inyuma yabo hari ibiti bifite amashami bigandaye.

Umukozi wambaye impuzankano ya polisi ishami rishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro, afashe ku cyuma gisohora amazi, afite umuvuduko mwinshi, yazimya inkongi y'umuriro.

Polisi urwego rushinzwe kurwanya inkongi hamwe n'abanyeshuri bambaye impuzankano z'ikigo. Bahagaze hanze bose aho polisi iri gutanga amahugurwa y'ukuntu inkongi y'umuriro yahashywa hifashishijwe ibikoresho by'amacupa atukura bifite imipira ndetse n'ibinyabutabire bizimya inkongi.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibipesu by'umukara, afashe indangururamajwi mu ntoki, ari kuyivugiramo yambaye kandi n'amadarubindi y'umukara.

Mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida perezida Paul Kagame, ni umukandida uturuka mu ishyaka rya FPR, abagabo bambaye imipira y'umweru ishushanyijeho igipfunsi, ingofero z'umweru ziriho ibirango bya FPR, ndetse n'amadarapo ya FPR bari kumwamamaza.

Perezida Polo Kagame ari mu bikorwa byo kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda, impande ye ndetse inyuma ye hari abamushyigikiye, bazamuye amadarapo ndetse n'ibipfunsi bagaragaza ko bamushyigikiye.

Perezida Paul Kagame umukandida wa FPR Inkotanyi, wambaye umupira w'umutuku w'amaboko maremare n'agapfukamunwa k'umukara, ari hejuru ku modoka, azamuye igipfunsi, inyuma ye hari imbaga y'abantu benshi cyane bamushyigikiye.

Mu cyumba cy'itora harimo abaseseri bambaye ingofero ndetse n'imipira y'amaboko magufi, byose bisa n'umweru. Bari kubara amajwi bafite impapuro bari kuzizingura bazisoma.

Abantu bari hanze bari kugenda inyuma y'umugore wazamuye ikiganza ari gusuhuza abantu, uyu ni Uwiriningiyimana Agatha yabaye Minisitiri w'intebe ku ngoma ya Habyarimana.

Umukandida Mpayimana Philippe wiyamamarije kuba perezida wa repubulika y'igihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ubwo yari ari mu bikorwa byo kwiyamamaza ahagararanye n'abagabo babiri bamushyigikiye, inyuma ye hari n'umugore wicaye ku ntebe ndetse hari n'amafoto yamamaza Mpabimana Philippe.

Inzu iri kuberamo inama y'abayobozi, hari idarapo ry'u Rwanda ndetse n'ikirango cy'igihugu biri inyuma y'aho abayobozi bicaye, bicaye ku ntebe z'umukara zegamirwa.

Umugabo w’umukandida Mpayimana Philip ahagaze hanze ndetse n’abandi bagabo babiri bamushyigikiye. Uyu mugabo yiyamamarije kuba Perezida wa Repubulika y’u Rwanda mu mwaka w’ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Mu nzu yakoraniwemo n'abantu bitabiriye inama, ku ntebe z'imbere hicayeho perezida Poro Kagame, yifashe ku itama afite indangururamajwi ari kuyivugiramo, impande ye hari nyakubahwa madamu Janete Kagame.

Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, yambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru ndetse na karavati. Inyuma ye hari ikirango cya repubulika y'u Rwanda.

Abagore bane bari gufata ifoto y'urwibutso, impande yabo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda riri mu mabara y'icyatsi, umuhondo, ndetse n'ubururu. Hashushanyijemo n'izuba ndetse ku rundi ruhande hari n'igitambaro kiriho ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu b'abayobozi bahagaze mu nzumo imbere impande yabo ari minisitiri w'intebe w'u Rwanda bakaba bafashe ku idarapo barimo bararahira bazamuye n'ikiganza.

Umugabo wambaye ikote wicaye ku ntebe y'umukara yegamirwa; inyuma ye hari idarapo ry'igihugu cyu rwanda riri mu mabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Umukandida perezida MPAYIMANA Philippe arahagaze ari kuvugira mu ndangururamajwi aho ari hanze mu bikorwa byo kwiyamamaza, hari abantu bamushyigikiye bicaye inyuma ye ndetse hari n'amafoto ari imbere n'inyuma yanditseho ifoto ye ndetse n'amagambo nka 'indi ntambwe'.

Icyumba cy'itora kirimo umuseseri wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, ari gupfundura agasanduku k'itora karimo impapuro z'itora. Karabonerana ndetse gapfundikijwe umufuniko w'umukara.

Imbaga y'abantu nyamwinshi bafite utudarapo turimo ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi bambaye ingofero ndetse n'imipira isa n'umweru bari mu bikorwa byo kwamamaza, inyuma yabo hari ihema ry'umweru ritatseho n'igitambaro cy'icyatsi.

Muhayimana filipe ni umugabo wiyamamarije kuba perezida wa repubulika y'u Rwanda, mu matora yabaye umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ntabwo yatsinze amatora.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'mweru ndetse na karavate, uteretse imisatsi, ni Habyarimana Juvenali; yahoze ayobora igihugu cy'u Rwanda, Leta ye yaranzwe n'amacakubiri.

Abagabo ndetse n'abagore bari hanze mu bikorwa byo kwamamaza umukandida Habineza Frank wo mu ishyaka rya Girini pati hirya yabo hari ihema risa n'umweru ritatse ibitambaro by'icyatsi, umweru ndetse n'umuhondo.

Amahema menshi atatse ibitambaro by'umutuku, umweru ndetse n'ubururu, bigaragaza ko aha hantu hateraniye abantu bo mu ishyaka rya FPR. Hari imbuga iri imbere y'amahema, ihagazemo abantu benshi bazamuye ibipfunsi.

Mpayimana Firipe ni umukandida wiyamamarije kuyobora igihugu cy'u Rwanda, ariko ntiyabashije gutsinda amatora, yambaye ishati y'umukara yazamuye ibiganza yicaye hanze hamwe n'abandi bagabo ku dutebe tw'umweru.

Mu bikorwa byo kwamamaza umukandida perezida, hari imbaga y'abantu benshi bakoraniye hanze bari kwamamaza, bafite amadarapo yanditseho efupeyeri, ari mu mabara y'umutuku, umweru, ndetse n'ubururu. Perezida Polo Kagame ari gutambuka imbere y'imbaga.

Imbuga ishashemo amatafari hakaba haparitsemo amapikipiki afite amapine atatu, aya mapikipiki agira umwanya w'inyuma munini wo guhekamo imizigo umeze nk'isanduku iba ifunze kandi inatwikiriye neza.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'ibinyabiziga birimo imodoka ndetse n'amapikipiki abiri ipikipiki isa n'ubururu ifite amapine atatu ifite umwanya w'inyuma wo guhekamo imizigo nahoho ipikipiki y'amapine abiri ifite umugenzi inyuma itwaye nta mwanya w'imizigo igira.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'imodoka ebyiri z'amakamyo zose zirasa n'umweru, hari umunyonzi ushoreye igare rihetse ibyokurya birimo imifuka irimo ibiribwa ndetse n'ibitoki.

Umugabo utwaye ipikipiki isa umutuku yometseho akapa k'umuhondo inyuma kariho nimero y'ikinyabiziga yihariye, umuyobozi akaba arimo agenda m'umuhanda wa kaburimbo ushashemo isima y'igiri.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'imodoka ya bisi isa n'umweru itwaye abagenzi, iruhande rwayo haratambuka amapikipiki abiri ahetse abagenzi, mu gahanda kegereye umuhanda wa kaburimbo gashashemo amabuye kagenewe kugendwamo n'abanyamaguru hari umugabo uri kunyuramo wikoreye umufuka.

Impande y'umuhanda wa kaburimbo, hari ahantu haparitse ipikipiki ikoresha umuriro w'amashanyarazi, yicaweho n'umugabo w'umumotari, iruhande rwe hari undi mugabo bari guciririkanya ku biciro.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara, uragendwamo n'ipikipiki ifite amapine atatu, inyuma ifite igice kimeze nk'inzu yubatse neza, yubakishije ibyuma gishyirwamo imizigo.

Umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'imodoka ndetse n'amapikipiki, impande yawo hari ibiti biwukikije. Ibiti biyungurura umwuka, bikurura imvura ndetse byongera n'ubwiza bw'umuhanda.

Imodoka ya bisi itwara abantu muburyo bwa rusange iparitse mu mbuga, mu mwanya wa gare aho imodoka zitegerereza abagenzi imbere yayo haparitse indi bisi nayo itwara abagenzi muburyo bwa rusange isa n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo usa n'umukara haciyemo imirongo y'umweru, icagaguye mu burebure bwayo urikugendwamo n'imodoka ebyiri.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'ipikipiki y'amapine atatu ifite igice cy'inyuma kimeze nk'isanduku kijyamo ibintu by'imizigo itandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ufite imirongo y'umweru ku mpande igaragaza imbibi z'umuhanda, uri kugendwamo n'ipikipiki itwawe n'umugabo uhetse umugenzi.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, iparitse mu mbuga ngari iparikwamo n'imodoka aho zitegerereza abagenzi muri gare ya dawuni tawuni, ishashemo amabuye ndetse hari n'udutebe twicarwaho n'abagenzi.

Imodoka iragendera mu muhanda wa kaburimbo, ifite igice cy'inyuma gihekwamo imizigo, gikozwe mu ibati, gifunze neza, kimeze nk'isanduku. Impande y'umuhanda haratambuka abantu, mu gahanda kagendwamo n'abanyamaguru.

Imodoka ya bisi isa n'umweru, irimo abagenzi iri kumanuka mu muhanda wa kaburimbo isa n'umukara, impande yawo hari umuyoboro unyurwamo n'amazi.

Umugabo utwaye ipikipiki isa n'umuhondo ndetse n'umukara, akaba ahetse umugore inyuma, bose bambaye ingofero z'ubwirinzi zirinda abicaye ku ipikipiki zisa n'ubururu, ipikipiki iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka yakozwe n'uruganda rwa Mitsubishi, ifite igice cy'inyuma gifunze neza nk'isanduku, gishyirwamo ibicuruzwa ndetse n'indi mizigo, iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo. Imbere yayo haratambuka amapikipiki abiri.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'igikamyo cya rukururana gifite igice cy'inyuma kimeze nk'isanduku ifunze neza gishyirwamo ibicuruzwa, iyi modoka igeze ku gice cyagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru giciyemo imirongo y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'imodoka ebyiri z'amakamyo zitwara imizigo irimo nk'ibikoresho by'ubwubatsi by'amasima ndetse n'ibindi, impande yawo hakikijwe n'ibiti, ibiti biyungurura umwuka bikongera ubwiza bw'umuhanda ndetse n'ibindi.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'imodoka isa n'umweru, ifite akapa hejuru gasa n'umuhondo, kerekana ko ari tagisi. Iyi modoka inyuma yayo hagendwamo n'indi modoka y'umukara. Impande yaho hari ubusitani bugabanya umuhanda ndetse n'undi, burimo indabo.

Imodoka ifite umwanya wo guhekamo inyuma, yakozwe n'uruganda rwa Toyota, ikaba irimo imizigo itwikirijwe shitingi, ihambiriye neza.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'ibinyabiziga birimo ipikipiki y'amapine abiri ipikipiki y'amapine atatu, ishyirwaho imizigo inyuma, imodoka isa n'ifeza iruhande rwabyo hari inyubako.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'imodoka ebyiri, impande yawo hari umuyoboro umanukamo amazi atemba igihe imvura yaguye. Iruhande rundi rw'umuhanda hari ibiti bikikije umuhanda. Biyungurura umwuka, bikongera n'ubwiza bw'umuhanda.

Imodoka yikamyo isa n'ubururu ifite igice cy'inyuma gifunguye hejuru, gitwarwamo imizigo irimo ibicuruzwa ndetse n'ibindi, irikugendera mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka ya bisi isa n'umweru, iparitse muri gare, impande yayo haratambuka umugabo uhetse igikapu. Hirya yayo kandi hari itara rimurika muri gare igihe bwije.

Umuhanda wa kaburimbo uranyurwamo n'ibinyabiziga birimo amapikipiki ndetse n'imodoka. Imbere yaho hari ahantu hari sitasiyo itangirwamo lisansi ndetse n'amavuta y'ibinyabiziga ya Esipe.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti bifite amashami y'icyatsi, uri kugendwamo n'ibinyamitende by'amagare abiri atwawe n'abagabo, inyuma yabo hari imodoka ya bisi ya Jagwari.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'amapikipiki, ku mpande hari ahantu haparitse amapikipiki asa n'ubururu agendera ku mapine atatu, afite n'igice inyuma kimeze nk'isanduku gifunze gishyirwamo imizigo.

Imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo isa n'umukara, impande yayo hari akayira k'abanyamaguru gashashemo amatafari. Aha niho abanyamaguru bagenda ndetse n'ibinyamitende birimo amagare, nabyo bishobora kwifashisha aka kayira.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'imodoka y'igikamyo gifite umwanya w'inyuma umeze nk'igisanduku kirekire gifunguye hejuru gishyirwamo ibicuruzwa cyangwag se indi mizigo itwarwa n'iyi modoka.

Imodoka ya bisi itwara abantu mu buryo bwa rusange isa n'umweru igice k'imbere cyarakobotse iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo inyuma yayo hari n'icyapa kigaragaza ahaherereye sitasiyo ya esipi.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'ibinyabiziga by'amamodoka impande yaho hari akayira k'abanyamaguru, gashashemo amabuye ndetse iruhande rwako hari ibiti byongera umwuka mwiza ndetse bigakurura n'imvura.

Imodoka ebyiri ziri kugenda mu muhanda wa kaburimbo hari imodoka isa n'ifeza iruhande rwayo haratambuka umugabo ndetse iruhande rw'umuhanda hari n'ahantu hubatse sitasiyo ifite amabara y'ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi ni iya Esipe.

Hanze izuba riva hari abagore babiri bari gutambuka mu mbuga ishashemo amabuye, impande yaho hari ahantu abantu bicara bari kuganira ku muhanda cyangwa bari kwirebera ibitatse igihugu.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, yubatse muburyo bw'igorofa, ikaba isakaje amabati atukura Imbere yaho hari imbuga irimo aho bakinira umukino wamaboko wa basketball.

Icyapa cya mpande eshatu, gifite ubuso bw'umweru, bushushanyijemo umugore ndetse n'umwana, mu ibara ry'umukara ritsiritse, bari gutera intambwe. Iki cyapa gishyirwa ku muhanda, kikereka abayobozi b'ibinyabiziga ko imbere hari ikigo cy'amashuri.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga kizengurutswe n'akabara gatukura gifite, ubuso bw'umweru hashushanyijemo imodoka ebyiri, mu ibara ry'umukara ritsiritse hacishijemo umurongo w'umutuku uberamye.

Icyapa cya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru gishushanyijemo umuhanda mu ibara ry'umukara ritsiritse, ushamikiyeho akandi gahanda gato ku kuboko kw'ibumoso. Iki cyapa kiri munsi y'ahantu hari igiti gifite amashami.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga kizengurutswemo ibara ry'umutuku gifite ubuso bw'umweru kikaba cyanditsemo umubare mirongo itandatu n'ibara ry'umukara riziritse, iki cyapa gishyirwa impande y'inzira nyabagendwa kikerekana umuvuduko ntarengwa ku binyabiziga.

Umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga, impande yawo hari icyapa kigaragaza ko ukomeje iyo nzira ntaho akase yagera ku kanyaru ndetse n'i Huye naho ukase ibumoso yaba agiye Kibugabuga ndetse na Nyamiyaga.

Icyapa gisa n'umuhondo gishushanyijemo utwambi mu ibara ry'umukara ritsiritse mu buryo buzengurutse, iki cyapa gishyirwa ku nzi nyabagendwa kikerekana igice cy'inzira banyuramo bazengurutse.

Icyapa cya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru, giciyemo imirongo y'umukara mu ibara ritsiritse, iri gutambukwamo n'umugabo ushushanyije mu ibara naryo ry'umukara ritsiritse, iki cyapa cyerekana igice cy'inzira nyabagendwa cyambukirwamo n'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo isa nk'umukara, iruhande rwaho hari akayira gashashemo amatafari, kagendwamo n'abanyamaguru, impande yako hashinze icyapa kiri mu busitani bw'indabo ndetse n'ibiti.

Akapa gafite ubuso bw'umweru gashinze ku cyuma kiri iruhande rw'umuhanda nyabagendwa, kanditseho k g rimwe umunani icyenda s t. Ibi byerekana ko ari umuhanda w'iyi mibare, inyuma yako hari ibiti byongera ndetse bikayungurura n'umwuka.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga, gifite ubuso bw'umweru buzengurutswe n'akabara k'umutuku, gishushanyijemo inyuguti ya P mw’ ibara ry'umukara ritsiritse . Iki cyapa cyerekana ko aho hantu nta mwanya wo guparika uhari.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga gifite ubuso bw'umweru gishushanyijemo akambi gahetamiye ibumoso, kakaba gaciyemo n'umurongo w'umutuku uberanye, iki cyapa cyerekana ko umuyobozi w'ikinyabiziga adahita akatira ibumoso bwe.

Icyapa cya mpandeshatu gifite ubuso bw'umweru, gishushanyijemo umugabo mu ibara ry'umukara ritsiritse uri kuyora ibintu by'ibitaka. Iki cyapa gishyirwa impande y'umuhanda, kikerekana ko hari ibikorwa by'ubwubatsi bw'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ufite amatara ashinze ku muhanda, amurika n'ijoro igihe izuba ryarenze, hakaba hashinze kandi n'icyapa cyanditseho Rambura, iki cyapa cyerekana ko ugenda mw'uyu muhanda ageze Rambura.

Impande y'umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara, uciyemo imirongo y'umweru, mu gice cyagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru, hari icyapa cyerekana ko uhageze ageze mu karere ka Rusizi.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga gishushanyijemo umwambi mu ibara ry'umweru ritsiritse ndetse n'undi uheteye ibumoso bigaragaza umuhanda umwe ufite akandi gahanda gakozwe n'ikoni rikatira ibumoso.

Icyapa cya mpandeshatu gifite ubuso bw'umweru, kirimo ibimenyetso by'urumuri bisa n'umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Iki cyapa cyerekana ko muri uwo muhanda hari ahari ibimenyetso bikoresha urumuri mu kuyobora ibinyabiziga.

Iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo hari akayira k'abanyamaguru gashashemo amatafari. Impande yako hashinze akapa ko ku muhanda, ka mpande eshatu gafite ubuso bw'umweru munsi yaho, hari umugabo mukapa ari gutambuka. Iki cyapa cyerekana ko hari ahantu hambukirwa n'abanyamaguru.

Icyapa gifite ubuso bw'ubururu cyanditsemo inyuguti ya pa mu ibara ry'umweru gitsiritse. Gishushanyijemo imodoka ndende yo mu bwoko bwa bisi isa n'umweru.

Ni umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo umwambi mu ibara ry'umweru ritsiritse, impande y'umuhanda hari akayira kagendwamo n'abanyamaguru hakaba hashinze n'icyapa cyo mu ishusho y'uruziga gishushanyijemo ipikipiki yiciwemo n'umuntu giciyemo akarongo gatukura kaberamye kerekana ko nta mapikipiki ahanyurwa.

Icyapa kiri iruhande rw'inzira nyabagendwa, cyerekana umuhanda ufite akazamuko ka cumi na kabiri ku ijana, ndetse hejuru yacyo hari ikindi cyapa cya mpande eshatu, cyerekana ko aho hantu hegeranye n'aho indege zigwa.

Umuhanda ukikijwe n'ahantu hateye ibiti. Ibiti bifite umumaro wo kuyungurura umwuka duhumeka ibiti bikurura imvura kandi bimwe bivamo n'ibiribwa by'amatungo cyangwa se abantu.

Inzu y'amagorofa, yometseho icyapa kigaragaza umuryango ukoreramo ikigo cya Forutibeti. Iki kigo gikora ibijyanye no gutega ku mikino y'amahirwe.

Mu gace kitwa Nyagatovu mu Rwanda hari ibiti biteye bifite n'amashami y'icyatsi impande yaho hari amazu atuwemo n'abantu ashakakaje amabati.

Akayira kagenewe kugendwamo n'abanyamaguru gashashemo amatafari, karagendwamo n'umugabo ugeze ahantu hashinze umutaka usa n'umuhondo, wanditseho MTN, aha hakorerwamo n'umukozi utanga serivisi za MTN.

Umuhanda wa kaburimbo uranyurwamo n'ibinyabiziga ndetse hari n'abantu batambuka, impande yaho hari ahantu hateye ibiti biyungurura umwuka ndetse bizana n'umuyaga, hari n'ibiti by'amapoto binyurwaho n'isinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Ahantu hitwa Kanombe hari agace gatuwemo n'abantu karimo inzu zubakishije amabati, hari n'ibiti by'amapoto biriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Nijoro imodoka ziri kugenda mu muhanda zicanye amatara y'imbere hari abantu bari gutambuka mu kayira kagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru impande y'umuhanda hari inyubako ziri kwakamo amatara y'umweru.

Inzu ifite inkuta ziriho utwuma twa mubazi dufasha mu gushyiramo umuriro w'amashanyarazi, ikaba ifite imbuga irimo ubusitani ndetse inashashemo amabuye.

Ibiti biteye hanze byo mu bwoko bw'indabo byakuze cyane bifite n'amababi agandaye ibi biti byongera umwuka mwiza umuyaga ndetse byongera n'ubwiza b'ubusitani.

Inzu y'amagorofa imbere yayo hari imbuga yubatsemo sitasiyo ya rubisi sitasiyo icururizwamo ibirimo amavuta y'imodoka lisansi ndetse na mazutu.

Hanze hateye ibiti bifite amashami bikikije ingo zituwemo, hari inzu isize amarangi y'umweru ku gikuta ifite ibigega mu mbuga yayo bibiri bisa umukara.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'ibinyabiziga byo mumodoka, impande yawo hari amazu akorerwamo ibikorwa bitandukanye, ndetse hari n'ahantu hateye umutaka usa n'umuhondo uriho ibirango bya emutiyene.

Inyubako y'amagorofa, impande yaho hari n'indi nzu yo guturamo itubatse mu buryo bw'amagorofa, isize amarangi y'umuhondo ku gikuta, imbere yayo hari igiti cyagandaye.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'ipikipiki impande yawo hari ahantu hateye ibiti by'ishyamba ibiti bifasha mu kuyungurura umwuka byongera ubwiza bw'umuhanda kandi bikurura n'imvura.

Umuhanda wa kaburimbo, ufite igice ku ruhande rw'iburyo cyagenewe guparikwamo n'imodoka igihe zishyiramo cyangwa zikuramo abagenzi, ziri mugendo ndetse iruhande rwaho hari n'akazu gasize irange ry'ubururu, kubakishijwe n'ibyuma, kicarwamo n'abagenzi bategereje imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'imodoka, ushushanyijemo n'imyambi m'ibara ry'umweru ritsiritse ndetse hari n'umurongo w'umuhondo muremure udacagaguye uciye mu muhanda.

Agahanda gashashemo amabuye, kegereye umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara, ikikijwe ku mpande n'ubusitani burimo ibiti ndetse n'indabo. Aka gahanda kagendwamo n'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo usa n'umukara, ugendwamo n'ibinyabiziga birimo amamodoka ndetse n'amapikipiki, hari igice cy'umuhanda wa kaburimbo giciyemo imirongo y'umweru, cyagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'imodoka. impande y'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru gashashemo amatafari, karagendwamo n'abantu, impande yako hari ipoto rishinzwe mu byatsi.

Umuhanda wa kaburimbo usa n'umukara, ufite amatara ari kwaka ndetse hari n'imodoka iri kugendamo yacanye amatara maremare, impande y'umuhanda hari n'inzu z'amagorofa ziri kwakamo amatara.

Umuhanda wa kaburimbo ufite igice cyagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru, kirimo imirongo y'umweru icagaguye igabanya umuhanda mu bugari bwaho. Aha iyo ibinyabiziga bihagaze birahagarara bigategereza ko umunyamaguru abanza kwambuka.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ikoni rikatira ibumoso hakaba hari n'akapa kagaragaza isibo gato kari mu ibara ry'ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi, iruhande rwaho hari icyapa kigaragaza umuhanda izina kaga gatandatu umunani umunani.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'imodoka impande y'umuhanda hari amapoto y'umweru hariho amatara amurika m,umuhanda igihe izuba ryarenze, hari kandi n'ubusitani burimo ibiti ndetse n'indabo.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'ibinyabiziga by'amamodoka ndetse n'ikinyamitende, gitwawe n'umugabo uhetse undi muntu inyuma, bicaye ku musego w'igare, bageze ku kiraro gitandukanya umuhanda wo hasi ndetse n'uwo hejuru.

Umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga birimo amamodoka ndetse n'amapikipiki, ufite agace hagati gateyemo ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'indabo; ibi byongera ubwiza bw'umuhanda kandi binayungurura umwuka.

Umuhanda wa kaburimbo uranyurwamo n'ibinyabiziga birimo imodoka ndetse n'amapikipiki umuyobozi w'ipikipiki atwaye ipikipiki isa n'umutuku yambaye ingofero y'umuhondo y'ubwirinzi.

Umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga birimo amapikipiki ndetse n'amamodoka, ufite igice ku ruhande cyagenewe kugendwamo n'abanyamaguru, impande yaho kandi hari ibiti biteye, byongera ubwiza kandi binatanga umwuka mwiza.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'umuyobozi w'ipikipiki uhetse umugenzi bose bambaye ingofero z'ubwirinzi zirinda abicaye ku ipikipiki zisa n'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga birimo imodoka ndetse n'amapikipiki iruhande rwawo, hari ibiti biteye ibi biti bifite umumaro wo kuyungurura, umwuka ndetse bigakurura n'imvura, ku muhanda biri kongera ubwiza.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'imodoka ufite amafoto y'ibyuma hariho amatara amurika mumuhanda igihe izuba ryarenze hari n'ubusitani ndetse hari n'icyuma kiriho za kamera zifata amashusho y'ibinyabiziga bica mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ufite amasangano, uragendwamo n'imodoka ndetse n'amapikipiki. Hari abantu bari kwambuka mu gace karimo imirongo y'umweru kagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru. Aha iyo ibinyabiziga bihagaze, birabanza bigahagarara, bikareka abanyamaguru bakambuka.